Umwarimu urimo kwigisha abana b'incuke gusoma. Ni byiza kwigisha abana bakiri batoya, kumenya uko bakwiye gusoma. Gusa ariko na none si byiza kwigisha abana bicaye ku musambi, kubera ko bashobora kurwara ibikanu kubera kurarama.

Abana biga mu mashuri abanza bakaba bicaye barebana, barimo gusomera ibitabo hamwe, ni byiza ko abana bigira hamwe kubera ko bituma bungurana ubumenyi, icyo umwe azi akagisangiza bagenzi be.

Abarimu bahagaze imbere mu ishuri, bakaba barimo kuganiriza abanyeshuri, mu rwego rwo kugira ngo babigishe amasomo atandukanye. Kwiga ni byiza kubera ko bituma umwana akura neza, akagira uburere bwiza.

Umukobwa wambaye ishati y'umweru n'isaha y'ubururu ku kuboko, yicaye ku cyarahani arimo kudoda, kudoda ni umwuga ushobora kuzamura umuntu ukamukura mu bukene kubera ko iyo udodera abantu baguha amafaranga.

Ubusitani bwiza buteye ku muhanda bukaba buteyemo indabo nziza, iruhande rwabwo hubatse inzu yubakishije amatafari meza ahiye; ni byiza kubakisha inzu amatafari ahiye kubera ko igaragara neza.

Icyumba cyigishirizwamo ikoranabuhanga, harimo ameza agiye ateretseho mudasobwa zifashishwa mu gihe abanyeshuri barimo kwiga, imbere hari televiziyo nini cyane bigishirizwaho mu rwego rwo kugira ngo n'abari inyuma babashe kubona ibyo mwarimu arimo kwigisha.